Abantu bari mu ngeri zitandukanye harimo abagore n'abagabo b'abazungu ndetse n'abirabura, bicaye bazengurutse ameza baganira ku ngingo zitandukanye zerekeye k'ubuzima.

Abanyeshuri bari gufatira ifunguro ku ishuri; ni abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'ababahungu bishimiye kuba bari kurira ku ishuri; aho gutaha ngo bajye kurira mu rugo bibagoye.

Abana batuye mu gice cy'icyaro, bari kuvoma amazi ku mugezi, bakoresheje indobo. Nuko bagafatanya mu kuyikorera, kugira ngo bayageze mu rugo. Aho baherereye, hari ibiti ndetse n'imisozi inyuma yabo, n'inzu zigaragaza ko ari mu cyaro.

Abaganga batandukanye bari kugaragaza bimwe mu bikoresho bifashisha mu kuvura abantu ndetse n'abandi babateze amatwi, abandi babafotora. Ni byiza kwitabira gahunda zo kwa muganga kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze.

Umusaza uri ku ivomero yicaye ku njerekani aje kuvoma amazi. Uy'umusaza yambaye ishati irimo amabara atandukanye ndetse n'ipantaro y'umukara inyuma ye hari ibyatsi bitoshye ndetse na robine isa nkaho ikiri nshyashya.

Abagore bari kuvoma, iri ivomo bari kuvomeho ni irya kera, kuko rikoresha uburyo butagikoreshwa ubungubu, bahaga amazi akazamuka, ni abagore batatu babona ko ibi bari gukora bibasaba imbaraga nyinshi.

Abana b'abanyeshuri baje ku ivome gushaka amazi, aba bana bambaye imyenda y'ishuri ndetse bari kuvomera mu ndobo, inyuma y'aho bari hari ibiti by'inganzamarumbo.

Ababyeyi benshi bateruye abana babo aha bari biragaragara ko ari mu kigo nderabuzima umubyeyi afite umwana mu ntoki ndetse n'igipapuro kigaragaza imyirondoro n'ibindi byerekeye uyu mwana.

Ivomo rishya ryuzuye ahantu aho abantu barikikije bareba imikorere yaryo hari umwana uri kuvoma hari n'umugore uriguhaga amazi kugira ngo uyu mwana avome.

Umwana uvuye kuvoma atwaye akajerekani karimo amazi akikoreye, ari kumwe n'abandi bantu batandukanye, harimo uri kumufotora n'undi ufashe ku kajerekani yikoreye.

Abaganga n'abandi bantu batandukanye bahagaze hamwe, inyuma yabo hari inyubako nini isize amarangi y'ubururu haruguru yabo hari ibyatsi ndetse n'umukingo.

Umubyeyi ushagawe n'abana batandukanye, harimo ingeri zose yaba abahungu n'abakobwa, uyu mubyeyi yambaye imyenda irimo amabara menshi atandukanye, kimwe n'aba bana bamuri inyuma.

Ivomero riciriritse umwana w'umuhungu ari kuvoma ariko ari kunywa n'amazi akoresheje ibiganza si byiza kunywa amazi dukoresheje ibiganza byacu kuko bishobora kudutera indwara ziterwa n'umwanda.

Ku ivomero rusange abana bari kuvoma amazi bakoresheje utujerekani dutoya, hari umuntu mukuru uri kubahagira amazi kugirango bayabone, hakurya yabo hari imisozi ndetse inyuma yabo haparitse n'imodoka y'umweru.

Abantu bicaye mu buryo bwo kurebana, hagati yabo harimo ameza, abantu bari mu nama imbere yabo buri muntu afite icupa ry'amazi, ndetse n'ibikoresho bimufasha mu nama harimo ikaramu ikayi ndetse na telefoni ye.

Ivomero ry'amazi asukuye abaturage bari kuvoma, gusa umwe ari kunywera amazi mu ntoki undi ari gukaraba intoki, bambaye udupfukamunwa kandi bafite n'amajerekani bari buvomeremo.

Abaganga bari hamwe bari kubaga umurwayi uryamye ku gatanda k'abarwayi, aba baganga bipfutse amazuru, bipfutse umutwe ndetse bambaye n'imyenda yabugenewe.

Ababyeyi bari kugaburira abana mu buryo rusange babaha amata babaha n'ibindi biryo bitandukanye bikungahaye ku ntungamubiri abana bakenera ni byiza kwita ku bana bacu tubaheriza ibiryo birimo intungamubiri bakenera.

Imbangukiragutabara ni imodoka ikozwe neza kandi itabara abantu, iyi modoka ikwiye kwitabwaho kandi ikagezwa ahantu hose kuko abarwayi baba bazikeneye ari benshi.

Umwana uri ku ivomero rusange, ari kuvoma amazi mu ndobo, ariko anywera andi mu biganza, inyuma ye hari inyubako, ndetse n'ibyatsi n'ibiti birebire, si byiza kunywera amazi mu ntoki.

Abana batandukanye bahagaze bambaye imyenda myiza isa ya yunisefu ni imipira iri mu ibara ry'ubururu ariko bwerurutse y'iki kigo mpuzamahanga cyita ku buzima bw'abana.

Umugabo uri kwa muganga, ari kwikingiza. Abaganga bari kumutera urushinge mu kaboko, bose bambaye udupfukamunwa. Aba baganga bambaye amataburiya y'umweru, agaragaza umwuga bakora.

Umugabo uri imbere y'abandi, ari kubaganiriza ku ngingo yerekeye ubuzima, uyu mugabo ahantu ari hari intebe eshatu, hari amazi, hari n'indangururamajwi zifashishwa n'abantu kugira ngo ibyo bavuga bigere kure.

Ku ivomero rusange umubyeyi ari kuvoma, iri vomero ryuyubakishije sima, umubyeyi afite injerekani iri ku mugezi iri kujyamo amazi, inyuma ye hakurya hari umusozi uteyeho amashyamba.

Ivomero rusange abana bariho bari gukaraba intoki n'amazi meza inyuma yabo hari ibiti by'inganzamarumbo ndetse n'ibyatsi bitoya nibyiza gukaraba intoki n'amazi meza kugira ngo tugire isuku.

Abagore batatu bicaye bandika banabara, bigaragara ko ari abaganga, bitewe n'amataburiya bambaye n'indi myenda n'ibikoresho bibakikije bigaragaza ko ari kwa muganga.

ku ivomero rusange hari abantu batandukanye baje gushaka amazi abantu batonze amajerekani yabo ku murongo umwe; urangiza kuvoma n'undi akavoma mu rwego rwo kwirinda intambara zo kurwanira amazi, aba bantu baba bakeneye amazi kuko amazi yegerezwa abaturage cyane kurusha uko biri ubu.

Abana bari kudaha amazi bakoresheje amajerekani, aya mazi aretse hasi arasa nk'ay'ikiyaga, si byiza kuvoma no gukoresha amazi aretse hasi kuko ataba yizewe isuku yayo.

Ababyeyi bafite abana babo, bari kubapimisha ibiro baba bafite, bari gukoresha uburyo bwa kera bwo kubashyira mu munzani wo hejuru, nuko bagapima ibiro byabo.

Ivuriro ryo mu cyaro umubyeyi ufite abana batandukanye bamuri imbere bari kuvoma, imbere y'iri vuriro hari amabase amazi ari kujyamo ndetse n'ijerekani.

Abajyanama b'ubuzima bari kugira ababyeyi inama zerekeye uburyo bakita ku bana babo, babyeyi ni byiza kwita ku bana banyu mu gihe bakiri bato mukamenya imikurire yabo kandi mukanabitaho bamaze gukura.

Ku ivomo aho abantu benshi bateranye baje gushaka amazi, batonze umurongo n'amajerekani yabo bategereje ko babona amazi.

Abaturage batandukanye bari ku ivomero bari kuvoma, iri vomero rikoresha uburyo bwa kera bwo guhaga amazi ari munsi y'ubutaka, nuko akazamuka bakabasha kuyabona.

Umuntu uri kuvoma amazi atemba mu gaferege aya mazi nta suku afite si byiza kuvoma ndetse no gukoresha amazi adafite isuku kuko byadutera indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Abajyanama b'ubuzima bari mu ngeri zitandukanye, ababyeyi b'abagore ndetse n'abagabo, bahagaze imbere y'inyubako nini isize amarangi atandukanye kandi meza. Hirya yabo hari indabyo kandi abajyanama b'ubuzima bambaye amajire asa.

Abaganga batatu bari kumwe, ni abaganga bigaragara ko ari abagabo, bambaye udupfukamunwa ibirinda amaso ndetse n'ibindi bigaragaza ko ari abaganga.

Agatara ko mu cyaro, aka gatara gakoreshwa mu gihe umuntu yogeje ibikoresho byo mu gikoni nuko akabirambikaho kugira ngo byumuke amazi arimo avemo yose.

Umwana bigaragara ko afite ikibazo cy'imirire mibi; ari kwitabwaho ndetse na nyina bari kumwe; uyu mugabo uri kumwitaho yambaye ishati irimo amabara atandukanye.

Ikirango cy'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera abana yunisefu, iki kirango hariho ibiranga umuntu uteruye mwana ari kumwitaho, iki kirango kandi kigaragaza ko yunisefu ibereyeho abana bose.

Umugabo uri kugaburira umwana, uyu mwana akikiwe n'umubyeyi we, uyu mubyeyi ndetse n'abandi babyeyi bambaye imyenda y'umweru, naho uyu mugabo n'uyumwana n'abandi bana bato bambaye imyenda isa.

Abantu batandukanye abagabo abasore abagore n'abakobwa bacigatiye icyapa cyanditseho ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri isuzumishe turandura kanseri y'inkondo y'umura ni ngombwa ko twisuzumisha tukamenya uko ubuzima bwacu buhagaze.

Mu nama zerekeye ubuzima, abazitabiriye bari gusuhuzanya. Abari gusuhuzanya bambaye amakoti y'imikara ndetse umwe afite terefone mu ntoki, undi afite ibitabo mu ntoki ziwe.

Abaganga n'abandi bantu batandukanye bahagaze hamwe inyuma yabo hari igiti cy'inganzamarumbo, gifite amababi atoshye cyane bahagaze ahantu hari amapave.

Abantu batandukanye bakuru bari kugaburira abana batoya bari kubaha amata ndetse n'ibindi biribwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Muri aba bantu harimo umupolisi n'abandi babyeyi batandukanye.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore n'abana bishimye, bari hamwe baganira ku ngingo zitandukanye zerekeye ubuzima, uko babungabunga amagara yabo kugira ngo badaterwa n'indwara z'ibyorezo.

Uyu mugabo ari gukaraba intoki, uburyo ari gukarabamo intoki ni uburyo bwahozeho n'ubu bugaragara hake mu gihugu. Ni uburyo buzwi nka kandagira ukarabe, aho akandagira ku gati nuko umugozi ukaziritseho ukamanura akajerekani, nuko amazi akameneka na we agakaraba intoki.

Ikigo cyo mu rwego mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima, iki kigo cyita ku buzima bwa buri muntu wese utuye isi ndetse kigaharanira ko ubwo buzima bugenda neza ni uburenganzira ndetse n'inshingano za buri muntu wese kwita ku buzima bwa mugenzi we.

Abantu bicaye mu buryo butandukanye, ariko bamwe bari ku meza y'ibiziga, abandi bicaye ku ntebe barangamiye ababari imbere bari kubakoresha inama ku ngingo zerekeye ubuzima ndetse no kwita ku buzima.

Ivumo riciriritse umwana yatezeho ibase ndetse ari gukaraba intoki, uyu mwana asutse ibisuko biryamye ku mutwe ndetse yambaye imyenda ijya gusa n'umutuku, inyuma ye hari urukuta rw'amatafari manini.

Abana bato b'abanyeshuri bizihiwe, imbere yabo hari abantu bakuru ababyeyi, abagabo n'abagore ndetse n'abarimu babo, barimo barabaganiriza ku ngingo zitandukanye zerekeye ubuzima.

Ikimenyetso cy'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera ubuzima. Kuri iki kimenyetso hariho ibindi bimenyetso bitandukanye. Bigaragaza intego y'uyu muryango.

Umubyeyi uteruye mwana uri kwa muganga, muganga ari kugerageza kwita ku mwana mu kumuvura indwara yaba afite, yambaye itaburiya y'umweru igaragaza ko ari umuganga.

Abantu bari gukora ibikorwa bitandukanye mu mugezi, harimo umwe uri kuvoma amazi, nyamara undi uri ku nkombe ari koza igare rye akoresheje aya mazi undi ari kuvoma, ibi si byiza kuko ari kuvoma amazi yandujwe n'igare.

Abaganga batandukanye harimo abagabo n'abagore barishimye kubera umugabo ubari imbere, inyuma yabo hari inyubako y'ikigonderabuzima, hirya yayo hari igiti cy'inganzamarumbo.

Umugabo uhagaze imbere biragaragara ko hari mu nama, ari gutanga ibitekerezo ku ngingo runaka impande ze hari intebe, hari indangururamajwi hari utumeza duteretseho amazi n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umwana uri kwipima ibiro ufashwe nundi mugabo bigaragara ko yishimiye gufata uwo mwana ari gupima ibiro bye gusa bombi bambaye imipira isa.

Inama y'abaganga batandukanye, harimo abagore n'abagabo, bari kwiga ku kibazo cyo kurengera abana, umuryango UNICEF, ni byiza kwita ku buzima bw'abana bacu kugira bakure neza.

Abantu batandukanye bari mu nama, muri aba bantu harimo abirabura, abagabo, abagore abazungu ndetse bari kwiga ku ngingo zerekeye ubuzima, imbere yabo hari abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bari kubaha ibiganiro byerekeye ubuzima.

Umuntu uri kugaburira abana batoya. Aba bana bicaye hasi, hari abandi bari kubaha amata mu nkongoro. Muri aba bari kubaha amata, hari uwicaye, n'abandi bahagaze. Ndetse harimo n'umusirikare.

Ababyeyi batatu bicaye bari gupimwa umuvuduko w'amaraso, aba babyeyi umuganga ari gukoresha igikoresho cyabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso aho bacyambara mu maboko n'uko kigapima uko amaraso agenda mu mubiri.

Ababyeyi bishimye barimo abateruye abana, abandi babari imbere bambaye amajile agaragaza akazi bakora, ahantu bari ni imbere y'inyubako kuri iyo nyubako hateye indabyo zisa neza.

Abantu batandukanye barimo n'abazungu n'abirabura, bicaye mu buryo bukikije ameza bigaragara ko bari mu nama baganira ku ngingo zitandukanye, zimwe muri izo ngingo zerekeye ubuzima.

Abantu bagera kuri batanu harimo umusore umwe n'abakobwa babiri, bambaye imipira isa ndetse n'ingofero zisa. Inyuma yabo hari icyapa cya rutura kigaragaza ibyo bakora.

Aba ni abantu benshi bicaye bigaragara nkaho bari mu nama, imbere yabo hari umuntu usa nk'aho ari kubaha ikiganiro, ku meza aho imbere yabo hari amazi, amakayi, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bibafasha mu mirimo yabo.

Ababyeyi bari mu ngeri zitandukanye bicaye mu nama, mu ihema rikikijwe n'amabara y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda imbere yabo hari umuganga uri kubaganiriza ku ngingo zerekeye ubuzima.

Abana bane bari gusukirwa amazi ku ntoki bakaraba bishimye, umuntu uri kubasukira amazi ni umugabo wambaye bote ndetse nipantaro n'umupira ufite igikombe mu ntoki.

Ibimenyetso bitandukanye, bigaragaza imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibigo bishinzwe kurengera ubuzima. Yaba ubuzima bw'abana, ubuzima bw'abantu rusange, kurinda korona virusi, kwita ku mirire ndetse n'amazi, n'ibindi bitandukanye.

Abantu batandukanye bicaye bakikije ameza mu buryo bugaragara ko bari mu nama, yerekeye umushinga runaka, ni inama baba baganira bungurana ibitekerezo, imbere yaho hari uducupa tw'amazi, ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha nk'amakayi telefone zabo ndetse n'amakaramu.

Abagabo bari kuganira ku ngingo zerekeye ubuzima, aba bagabo bicaye ku meza y'ikiziga, bose bahanganye amaso, bari kuganira buri wese atanga igitekerezo cye, cyerekeye ingingo z'ubuzima.

Abana babiri bari kuvoma, iri vomero rikoresha uburyo bwa kera buzwi nko guhaga, aho umwe ajya inyuma akajya ahaga amazi, undi agatega akayavoma, aya mazi nayo ni meza.

Abantu benshi mu ngeri nyinshi, harimo abagabo, abagore, abasore n'inkumi, bari mu nama yiga ku bijyanye n'ubuzima, muri iyi nama hari abicaye ndetse hari n'abicaye imbere ari bo bari gutanga ikiganiro ku byerekeye ubuzima.

Abantu batandukanye harimo abasanzwe ndetse n'abashinzwe umutekano bari mu nama, ahantu bicaye inyuma yabo hari inzu nini iri mu marangi y'ubururu, hepfo y'iyo nzu hari indi nzu y'amatafari ahiye, imbere y'ababantu naho haparitse imodoka.

Abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe nabo ni abantu nkatwe, iyo tubabonye dukwiye kubakira tukabaganiriza nabo bakumva bisanga mu bandi. Si byiza kubaha akato ndetse no kubabuza kutwegera.

Abantu batandukanye harimo abasore, inkumi, abagore n'abagabo bahagaze hamwe bafite icyapa rutura, kigaragaza intego zabo zo kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse no kubungabunga amagara y'abantu.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, harimo abagabo n'abagore biganjemo abapolisi bambaye imyenda yabugenewe y'akazi isa n'umukara. Bahagaze ahari icyapa kinini cyanditseho ngo reginal center of exlcelence on gender besed vilece andchild abuse.

Umusaza wicaye hasi wambitswe amapingu, bigaragara ko yafatiwe mu cyuho akora amakosa runaka. Inyuma ye hari abantu benshi bamushagaye, muri abo bantu harimo n'umupolisi umuhagaze inyuma, ari kumurinda ko yacika.

Umuntu utambaye neza mu buryo bugezweho bigaragara ko afite ikibazo mu bijyanye n'imitekerereze. Ni byiza ko abantu nk'aba tubitaho nabo bakisanga mu buzima rusange bw'abandi.

Umubyeyi utetse igikoma ahetse umwana mutoya ari kumwe n'undi; uyu mubyeyi yishimiye gutegura igikoma cyo kugaburira abana be. NI byiza kwita ku bana bacu tubaha indyo yuzuye.

Abantu batandukanye, harimo abagabo n'abagore bahagaze ahantu bishimye, bagaragaza zimwe mu mpamyabumenyi n'impamyabushobozi bahawe, inyuma ya bo hari imodoka ifunguye umuryango, ndetse n'amahema akorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Abajyanama b'ubuzima n'abandi bantu batandukanye, bari kuganira ibyerekeye ubuzima, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zishobora guterwa n'impamvu zitaduturutse n'iziduturutseho, ni ngombwa ko tuganira n'abajyanama b'ubuzima.

Igishushanyo kigaragaza imikorere yo kuvura indwara zo mu mutwe mu Rwanda, igishushanyo bigaragara ko cyashyizwe hanze na arabisi, urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima mu Rwanda, iki gishushanyo kiragaragaza uko ibitaro bitandukanye bivura indwara zo mu mutwe.

Abana batoya bari kuganirizwa bishimye baseka bose, ni byiza kwita ku bana batoya tubaha ibyo bakeneye ndetse tunabaganiriza kugira ngo tubashe kubakuza mu bitekerezo ndetse no kumva ibitekerezo byabo.

Umubyeyi n'umwana, bisa nkaho bishimye uyu mwana aracyari muto cyane kuko ntaratangira kumera amenyo, umubyeyi arishimye kuko ateruye umwana, buri mubyeyi wese ashimishwa no kugira umwana ufite ubuzima buzima.

Imiterere y'ubwonko bw'umuntu iba itangaje! Ubwonko ni igice cy'umubiri w'umuntu kiba kirimo imbere mu mutwe, ni cyo kigena imikorere y'ibindi bice byose by'umubiri kigategeka nuko umubiri ugakora.

Abantu bahagaze hamwe, bambaye imipira isa ubururu hafi ya bose, kuruhande hari umugore w'umuzungukazi, hagati harir umugabo w'umwirabura wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru.

Abantu benshi cyane batandukanye harimo abagabo, abagore, abasore n'inkumi, baricaye bahanze amaso imbere bari kumva icyo babwirwa, ku rukuta rw'inzu barimo hamanitse televiziyo.

Umuntu wicaye ku muhanda arasa nk'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe, kuko imyenda yambaye yaracitse, ibintu afite mu ntoki ntabwo umuntu usanzwe abifata, ni byiza kwita ku bantu baba ku mihanda kugirango nabo bisange mu buzima nkubw'abandi.

Umujyanama w'ubuzima ari kuganira n'ababyeyi bafite abana batoya ku bijyanye n'imirire yabo ndetse n'izindi ngamba bafata mu kwita ku buzima bw'abana babo kugira ngo babashe kubaho neza no gukura neza, inyuma yabo hari ibikoresho bindi byo mu rugo.

Ababyeyi n'abandi bantu batandukanye, bari gukoma mu mashyi, ababyeyi bari mu nama yiga ibijyanye n'ubuzima, ndetse bishimiye imyanzuro n'ibyavuzwe muri iyi nama byose.

Inyubako nini iteye irange ry'umweru biragaragara ko hari inyubako ikorerwamo ibintu byerekeye ubuvuzi, imbere yayo hari ibyapa bitatu binini, kuri ibi byapa biragaragara ko ari ibitaro bya Munini.

Abantu batandukanye bahagaze hamwe harimo abasore n'inkumi, aba bantu bambaye imipira isa ndetse n'amapantaro yiganjemo imikara n'ubururu, harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'umugore w'umuzungukazi.

Muri iki gihe indwara z'ibyorezo zabaye nyinshi, si byiza ko tugenda dukoranaho cyangwa dusuhuzanya mu buryo bwo guhoberana, tugomba kwibuka gushyiriramo metero ndetse twanasuhuzanya tukirinda gukorakoranaho cyane.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye y'aba bagabo, abagore, abasore, ndetse n'inkumi. Aba bantu abicaye imbere biragaragara ko ari abayobozi, abahagaze inyuma ni abakurikiraga mu nama barangije yiga ku bibazo by'ubuzima.

Abantu bicaye batandukanye bari m'inama imbere yabo hari umugore umwe uhagaze birasa nkaho ari kubaganiriza ku ngingo runaka abaha ibitekerezo bye nabo bakicara bakamukurikira ndetse bakamwumva n'ibyo avuga.

Abana bishimye bari kuganirizwa, bari kuvuga ku ngingo zitandukanye, ni byiza kuganiriza abana bacu tukamenya imikurire yabo, tukamenya n'uko tubitaho mu buryo bukwiye nk'ababyeyi.

Abana benshi bari hamwe ubona ko bababaye aba bana bari kurira kubera ibibazo bitandukanye biterwa ahanini n'ibiri mu bwonko bwabo kwita ku mitekerereze y'abana nibyiza kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umwana urwaye amenyo yagiye kwa muganga kwivuza. uyu muganga ari gukoresha bimwe mu bikoresho byabugenewe mu kuvura ndetse no gutunganya amenyo, uyu muganga yambaye akarindantoki.

Uburyo amenyo y'umuntu ateye aba yinjira mu mubiri, amenyo yacu akenera isuku ihagije ndetse no kuyarinda ibyayakomeretsa, ni byiza kwita ku menyo yacu ndetse no mu kanwa kacu kugira ngo twirinde indwara zishobora kuvamo.

Umugabo uri kwita ku menyo ye akozamo akadodo kugira ngo akuremo imyanda iba yagiye ifata hagati y'amenyo kwiborosa amenyo ntabwo biba bihagije ahubwo umuntu aba agomba no gukoresha akadodo kabugenewe agakura imyanda iri hagati y'amenyo.

Abana bato b'abanyeshuri bari koza amenyo yabo, bari gukoresha uburoso na corogate ndetse n'amazi meza mu bikombe bafite, ni byiza kwita ku menyo yacu kugirango tuyarinde indwara.

Umuganga uri mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo amasuzuma ibizwi nka raboratwari, uyu muganga ari gukora ubushakashatsi butandukanye, bwerekeye ubuzima, kugirango atange ibisubizo abantu bakeneye byerekeye ubuzima bwabo.

Umugabo uri gukora isuku mu menyo ye ari kwita ku menyo ye kugira ngo ayarinde indwara zitandukanye zishobora kuyajyamo uyu mugabo afite ubwanwa.

Umukobwa uri koza amenyo akoresheje uburoso ni byiza koza amenyo yacu kubera ko mu kanwa k'umuntu hashobora guterwa n'indwara zitandukanye bikagira ingaruka ku menyo yacu; twoza amenyo yacu tugire ubuzima bwiza.

Abana b'abanyeshuri bato biga mu mashuri abanza bari koza amenyo bakoresheje uburoso na corogate bafite ibikombe biririmo amazi ikimenyetso kigaragaza ko koza amenyo ari byiza ni byiza ko twoza amenyo yacu mu rwego rwo kwirinda indwara zo mu kanwa.

Abana bari koza amenyo bakoresheje uburoso na corogate,, ni byiza kwita ku menyo yacu kugira ngo tutarwara indwara zo mu kanwa zishobora gutuma amenyo yacu agira ikibazo nuko tukabaho dufite amenyo atameze neza.

Umugabo ufite ubwanwa butari bwinshi uri guseka afite akadodo gatoya yashyize mu menyo, aka kadodo umuntu ashobora kukifashisha mu gusukura amenyo ye mu rwego rwo kuyarinda umwanda.

mu kigo nderabuzima mo imbere hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi birimo intebe, ndetse n'ibitanda by'abarwayi, ndetse n'ibindi bikoresho byakwifashishwa mu gupima ubuzima bw'abarwayi.

Imikurire y'amenyo y'umuntu, uko amenyo y'umuntu aba ari mu kanwa, uko atenze ndetse n'uburyo abafashe mu mubiri. Ni byiza kwita ku menyo yacu kugira ngo atangirika n'uko bikadutera indwara.

Mu kigo nderabuzima mo imbere hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kureba ubuzima bw'umurwayi, hari agatanda kihariye utasanga ahandi gakoze nk'intebe umurwayi ashobora kuryamamo bakamusuzuma, hari ibindi bikoresho nabyo byifashishwa mu gusoma amakuru yerekeye umurwayi, hari n'utubati tubikwamo ibikoresho bitandukanye.

Umuganga ndetse n'umurwayi uyu murwayi arwaye indwara zo mu kanwa umuganga ari kugerageza kumuvura ni ngombwa ko iyo tugize ikibazo mu kanwa twihutira kwa muganga kugira ngo basuzume ikibazo twaba dufite.

Umugabo ufite urudodo mu ntoki, uyu mugabo afite ubwanwa butarakura cyane kandi biragaragara ko ibitugu bye birimo imbaraga nyinshi, uyu mugabo ari guseka kandi afite amenyo asa umweru.

Ibyuma byo kwa muganga bitandukanye, byifashishwa mu kuvura amenyo. Ibi byuma bikoze mu buryo budasa, hari ibikoze nk'ibikata, hari ibikoze nk'ibyasamisha akanwa, hari n'ibikoze nk'ibikura amenyo.

Abantu batandukanye, harimo abakobwa, abasore, abagore, ndetse n'abana, aba bantu bari guhabwa ubukangurambaga, ku buryo bakita ku menyo yabo, bayagirira isuku kandi banayoza, kugira ngo atazamo uburwayi.

Abantu bari kwitabwaho mu burwayi bwerekeranye no mu kanwa, hari abaganga hari n'abarwayi imbere yabo hari ameza, intebe bicayeho ni intebe z'ibiti, mu gihe nyuma yaho hari intebe za parasitike.

Umubyeyi ari kwigisha umwana uko boza amenyo bakoresheje ubuso ndetse n'isabune, umubyeyi n'umwana bambaye amasengeri asa yose y'umweru, ni byiza kwita ku menyo yacu kugira ngo tugire amenyo meza.

Umurwayi uri kwa muganga arwaye indwara zo mu kanwa, aryamishijwe ku gatanda k'umurwayi, umuganga ari kugerageza kumuvura amenyo, afite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura amenyo.

Ababyeyi bakuze bari mu isoko imbere yabo ndetse n'inyuma yabo hari ibicuruzwa bitandukanye bacuruza birimo inyanya, birimo imbuto z'ubwoko bwinshi. Ni byiza gufata imbuto mu gihe turangije kurya kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umubyeyi uri gufata ifunguro rye ariko bigaragara ko akuze ni byiza ko abantu bakuze twita ku mafunguro bafata kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bibarinde indwara zifata abantu bakuze.

Umubyeyi ukuze, uri mu myitozo ngororamubiri. Uyu mubyeyi ari kugerageza kunanura umubiri, ndetse no gukomeza amagufa ye. Uyu mubyeyi afite imvi, yambaye isengeri, kandi ari kuri tapi.

Umusaza uri kwita ku mwana mutoya, amuganiriza anamukinisha kugira ngo amushimishe. Ni byiza kwita ku bana bacu, ndetse n'abatari abacu, kugira ngo tumenye ubuzima bwabo kandi tunaburengere.

Mu kigo nderabuzima umurwayi abyutse ku gatanda bigaragara ko ari ak'abarwayi, afite imbago imufasha kugenderaho, iyi mbago ikoze mu buryo bwa mpande enye, aho imufasha kugendesha amaguru ye yose yaba afite ikibazo.

Umuntu ukuze uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri kugira ngo barambure imitsi ye ndetse n'amagufa ye yongereye gukomera; umuntu uri kumwitaho w'umuganga yambaye imyenda itukura, afite ikarita y'akazi n'igikoresho kimufasha gupima umutima w'uwo arikorera ubutabazi.

Umuganga w'umukobwa, wita ku bantu bakuze. Ari kuganiriza umusaza, mu rwego rwo kumuvura. Uyu muganga, ibi ari gukora ni bimwe mu byo ashinzwe, mu kuvura abantu bakuze.

Umuganga w'umugore ari kwita ku mugabo ukuze amukoresha imyitozo ngororamubiri, uyu muganga yambaye itaburiya ndetse afite igikoresho cyifashishwa mu gupima umutima w'umuntu, kandi uyu ari kwitaho nawe afite ibindi bikoresho mu ntoki byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukecuru uri kunywa imiti yifashishije amazi meza ari mu kirahure uyu mukecuru afite umusatsi wiganjemo imvi ugaragaza ko akuze inyuma ye hari igitanda.

Umusaza uri kwitabwaho ahabwa imbuto ndetse n'ibinyobwa kugira ngo agire ubuzima bwiza. Muri izo mbuto ari guhabwa harimo izizwi nka pome ndetse n'izindi zitandukanye.

Umukecuru uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri n'umuganga wabugenewe, amunanura amaboko arambura imitsi ye aho yihinnye cyangwa yaba ifite ikibazo gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane kwirambura ni byiza ku buzima bwacu.

Umubyeyi uri mu myitozo ngororamubiri, ubona ko ari kurambura amaguru ahantu hatuje kandi hari umwuka mwiza. Yicaye ku gatapi gatoya kandi ari kunanura amavi.

Ababyeyi batandukanye bari mu myitozo ngororamubiri, aba babyeyi higanjemo abaganga bari mu muhanda bari mu myitozo, inyuma yabo hari umusore ndetse ahantu bari biragaragara ko ari mu muhanda wa kaburimbo.

Umuganga w'umugore arikwita ku musaza ari kumukoresha imwe mu myitozo ngororamubiri kugira ngo zimwe mu ngingo ze zibashe kurambuka neza maze agire ubuzima bwiza, inyuma yabo hari undi mukobwa.

Umusaza uri gusangira n'abana babiri batoya, uyu musaza yambaye ishati y'umweru ndetse afite n'inkoni, n'ipantaro yitise abana nabo bambaye imyenda ijya gusa n'umweru, n'andi mabara atandukanye, inyuma yabo hari inzu umuryango ufunguye.

Umukecuru uri kwita ku musaza amuha amazi, uyu musaza aryamye mu buriri bwiza, ni byiza ko abantu bakuze tubitaho muri buri ntambwe z'ubuzima bateye tukabereka urukundo tunabaha ibyo bashaka.

Ababyeyi bakuze basa NK'abakecuru bari kwifotoza bishimye kandi baseka bose imisatsi yabo yabaye imvi, bambaye imyenda myiza y'amabara atandukanye.

Umusaza ukuze ari kwitabwaho n'umugore, uyu mugore ari kumuha ibinini mu ntoki ndetse n'amazi yo kunywesha ibi binini. Uyu musaza afite mudasobwa imbere ye ari kwiga anareba ibindi bintu bitandukanye.

Umugabo ufite ikibazo mu maguru ari kwitabwaho, muganga uri kumwitahoho w'umukobwa yamuhaye imbago, imbago ikoze mu buryo bwa kare aho uyu muntu ari kuyigenderaho.

Umusaza ukuze uri kwitabwaho n'umuganga. Uyu muganga yambaye imyenda imugaragaza akazi akora, uyu musaza yambaye ishati y'ubururu ndetse bombi bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari ibiti bigera kuri bitatu.

Abantu bari mu ngeri nyinshi abagore, abagabo ndetse n'abana. Abantu barishimye bari guseka, ni byiza ko mu muryango tubamo dukwiye guhorana ibyishimo kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umubabaro.

Umusaza n'umusore bari gusoma igitabo. Ubu ni uburyo bwiza bwo kwiga kuko gusoma igitabo ni byiza kandi biba bikubiyemo amakuru y'ingenzi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imbere yabo hari ibikombe birimo ibyo bari kunywa.

Umukobwa w'umuganga wita ku bantu bakuze ari kumwe n'umukecuru ari kumuganiriza bishimye, uwo mukecuru afite imvi inyuma yaho hari izindi ntebe zigaragara nk'izo kwakiriramo abandi barwayi.

Umugabo uri kwita ku murwayi w'umusaza, uyu musaza afite intege nkeya akeneye umuntu umufata akamusindagiza akamugeza aho ashaka kugera bitamugoye.

Sida ni indwara mbi yica kandi tugomba kuyirinda niyo mpamvu dusabwa buri gihe kwirinda icyatwanduza iyi ndwara kuko ishobora kuduhitanira ubuzima cyangwa se tukabaho mu bwandu budashira.

Abaganga bicaye abandi bahagaze aha harimo abagore, abagabo, abasore ndetse n'inkumi bari kwiga ku bibazo byerekeye ubuzima muri Afurika, ni byiza kwita ku buzima bwacu kugira ngo turengere amagara yacu.

Indwara zitandura ni indwara mbi cyane zizonga umubiri wacu, ni byiza kwirinda indwara zitandura kugira ngo tugire ubuzima bwiza n'uzigize akajya kwa muganga kugira ngo yitabweho hakiri kare.

Indwara y'ubushita ni indwara mbi cyane, ifata uruhu nuko rukazaho ibiheri, bigatuma umuntu uyirwaye yishimagura cyane, akica ibisebe ku ruhu. Iyi ndwara ishobora kwica umuntu igihe atavuwe neza.

Umuntu wagize ikibazo cyihutirwa, ari kwitabwaho n'abaganga n'abandi bantu batandukanye, bamuha ubutabazi bw'ibanze. Aho ari, hejuru yabo hari igiti cy'inganzamarumbo ndetse aryamye mu twatsi dutoshye.

Abantu batandukanye barimo abagore, abakobwa abasore n'abagabo barishimye kandi bari guseka. Barambuye amaboko inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo wumani lidazi ini golobo helifi.

Abaganga bavura indwara zitandukanye, by'umwihariko indwara z'ibyorezo zishobora kwandura mu buryo bwihuse, mu rwego rwo kwirinda izi ndwara, bambara imyenda ibapfuka ahantu hose, yaba mu maso, ku munwa, ku ntoki, ku buryo batakandura izi indwara.

Abantu batandukanye biganjemo urubyiruko abasore n'inkumi, bari mu muhanda bagenda bihuta, batwaye ibyapa bya arabisi bigaragaza ko bari mu mwanya wo kurwanya kanseri y'ibere.

Ibiribwa bitandukanye byose bigize urusobe rw'ibiribwa bishobora kwifashishwa kugira ngo umuntu abashe kubona indyo yuzuye, muri ibyo biribwa harimo imboga n'imbuto, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara.

Abantu bari mu nama ni inama yiga ku bijyanye n'ubuzima aho bamwe bicaye bateze amatwi abicaye imbere yabo, abicaye imbere bari kubabwira babasobanurira zimwe mu ngingo zerekeye ubuzima.

Aba ni abakobwa, aho bahagaze ku murongo bafite ibyapa, hanyuma bambaye imipira isa kandi bambaye n'amapantaro y'ubwoko bumwe ariko adasa.

Mu kigo nderabuzima haba ibintu bitandukanye, byifashishwa mu kwita ku barwayi. Ibitanda bishashe neza, kandi utasanga ahandi, uretse mu bigo nderabuzima. Imashini zipima imiterere y'umubiri, ndetse n'uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Mu ruganiriro hari intebe nziza zifite imisego ndetse n'aho kwicara horoshye, imbere hari ameza afite andi meza mato ayakikije abiri ari mu mabara atandukanye umweru ndetse n'umukara, hejuru y'ameza hari imitako ndetse n'inyuma y'intebe hari indi mitako.

Ikigo nderabuzima, muri iki kigo nderabuzima harimo ibitanda by'abarwayi biri ku murongo, harimo kandi n'inzitiramibu hejuru ya buri gitanda cy'umurwayi, ikigo nderabuzima, imbere harimo amarangi y'umweru bigaragara ko hasa neza kandi hafite isuku.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye yaba abagore, abagabo, abakecuru ndetse n'abasaza. Aba abantu bicaye bari mu nama ku ntebe nziza kandi zisa, hasi yabo hari uducupa tw'amazi aho buri muntu afite agacupa ke.

Kwa muganga hari ibitanda by'abarwayi bitandukanye aho buri murwayi aba afite igitanda cye, hari n'ibindi bikoresho bigaragaza uko ubuzima bw'umurwayi buba bumeze birimo imashini zitandukanye zisoma ubuzima bw'umurwayi.

Mu cyumba gitoya cyo mu kigo nderabuzima, harimo agatanda kabugenewe k'umurwayi, hejuru yaho hari imashini yabugenewe, ipima uko umurwayi amerewe, hari kandi utubati ndetse n'ameza byifashishwa n'umurwayi cyangwa umurwaza.

Abaganga batandukanye bakora mu nshingano zitandukanye mu kuganiriza abantu ku kigonderabuzima cyitwa isange wani sitopu senta. Iyo tugize ikibazo dukwiye gusanga abantu bakatugira inama kuko aribyo bashinzwe.

Ku kigo nderabuzima ahari ishami ryita ku babyeyi batwite ndetse n'ubuzima bw'abana batwite, iki gice cyitwa materinite cyangwa se inzu y'ababyeyi, hari abantu batandukanye bita ku babyeyi ndetse n'ababyeyi bakenera izi serivisi.

Umuganga uri kureba mu mashini, ari kureba ibisubizo by'ibizamini byafashwe, bareba umutima ndetse n'ibindi bice by'umubiri w'umuntu, by'umwihariko mu gatuza ke, uyu muganga afite imashini zabugenewe mu gukora ibi ngibi.

Mu kigo nderabuzima, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'umuganga ndetse n'abarwayi, harimo nk'imbago, intebe ndetse n'ameza y'uruganiriro. Ni byiza ko mu kigo nderabuzima, haba ibikoresho bihagije byo kwita ku barwayi.

Mu nyubako yakirirwamo abantu harimo intebe nyinshi zitandukanye ziteye amabengeza, ndetse n'amarangi menshi atandukanye kandi meza. Yaba ari hasi, yaba asize ku bikuta ndetse n'asize ku ntebe ziri muri iki cyumba.

Umusaza uri kwitabwaho bapima umuvuduko w'amaraso ye bafite igikoresho cyabugenewe bambika umuntu ni uko bakamenya uko amaraso ye agenda, uyu muganga w'umukobwa uri kubimukorera yambaye itaburiya igaragaza ko ari umuganga.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri. Muri iki cyumba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kugorora umubiri w'umuntu. Hari ibikora nk'amagare, hari ibiterurwa n'ibindi bitandukanye. Ibi byose bifite umumaro wo kuturindira ubuzima.

Inyubako iciriritse, ariko icururizwamo imiti, muri iyi nyubako, abantu baza kugura imiti itandukanye, bakivura uburwayi baba bafite, imbere yaho hari abantu babiri, ndetse haparitse na za moto.

Umurwayi uryamye kwa muganga aryamye ku gitanda cy'abarwayi ashagawe n'abaganga bari kumwitaho biragaragara ko bari kumutera urushinge kugira ngo babashe kuvura indwara afite.

Uruganiriro rumeze neza cyane kandi rusa neza, aha hantu abantu bashobora kwicara bakaganira cyangwa se bagasangira hari intebe zirebana zisa neza ndetse n'amezaza ashobora kuborohereza mu gihe baba bagiye gusangira.

Inyubako nziza zuzuye vuba, ni inyubako nshya abantu barangariye, bari kureba ubuhangange zubakanywe, ndetse n'ukuntu ari nziza, impande zawo hari umuhanda bisa nkaho utaruzura neza, hari n'abantu bari kuwutambukamo bajya mu bikorwa bitandukanye.

Abantu bicaye hamwe bategereje guhabwa serivisi z'ubuzima, ahantu bicaye hari intebe nziza zo kwa muganga bategereje ko muganga abakira.

Ikigo nderabuzima, muri iki kigo nderabuzima ni agace gatoya aho ababyeyi batwite bitabwaho, muri iki gice umubyeyi wenda kubyara cyangwa utwite ubuzima bwe bukurikiranirwa muri iyi nzu, izwi nka materinite.

Mu ikigo nderabuzima mo imbere ahari igitanda cyihariye cy'umurwayi, imbere y'iki gitanda hari indi mashini yabugenewe mu kwerekana uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, iyi mashini igaragaza imiterere y'umutima ndetse n'ibindi bice by'umubiri.

Mu kigo nderabuzima haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye utasanga ahandi harimo igitanda cyihariye cy'umurwayi, harimo intebe izenguruka, harimo n'intebe isanzwe ndetse n'akabati n'aho umuntu yakarabira.

Mu kigo nderabuzima ahakirirwa abantu bafite ibibazo bitandukanye, hari abantu bo mu ngeri zitandukanye, abo bantu bari ku murongo bajya gusaba serivisi z'ubuzima hari n'uri mu kagare, hari ibikoresho bitandukanye birimo intebe ndetse n'ameza.

Mu kigo nderabuzima mu cyumba cyihariye harimo ibikoresho bitandukanye, muri ibyo bikoresho harimo agatanda k'abarwayi imashini yifashishwa mu gusoma ibimenyetso by'umurwayi, televiziyo aho umurwayi ashobora kureba amakuru, intebe ndetse n'ibindi byifashishwa na muganga.

Mu kigo nderabuzimamo mbere harimo ibitanda bitandukanye by'abarwayi, buri gitanda gikikijwe n'imyenda yabugenewe irimo ibitambaro by'umweru. Imyenda ikimara ni ugukingira cyangwa gufunga igitanda cy'umurwayi, mu gihe cyo kuryama.

Abagore batatu bambaye imyenda yo kwa muganga ndetse banateza udutambaro two mu m'utwe two kwa muganga aba baganga bamenyerewe nk'ababyaza ndetse n'abaganga bita ku bagore batwite.

Ikigo nderabuzima runaka, muri iki kigo nderabuzima harimo ubusitani bwiza birimo ibiti birebire ndetse n'ibindi bitoya bifatwa nk'indabyo, harimo kandi umwanya wagenewe guparikwamo imodoka, hakurya yabyo hari umusozi munini.

Ibigonderabuzima harimo ibitanda bitandukanye bizwi cyane ko ari iby'abarwayi, kuri buri gitanda hejuru hari inzitiramibu, kandi hari n'indi myenda itwikira buri gitanda cy'umurwayi.

Mu kigo nderabuzima hari ibikoresho bitandukanye, hari n'ibitanda bisanzwe bikoreshwa ahanini ku barwayi kuko ntarundi rugo rwabikoresha.

Mu kigonderabuzima hari ibikoresho bitandukanye, hari ibyifashishwa mu gupima ndetse no gusuzuma ubuzima bw'umurwayi, hari ibyifashishwa mu kureba ibisubizo, hari intebe y'umurwayi cyangwase ya muganga, hari kandi ibikoresho byifashishwa mu gukonjesha bizwi nka firigo.

Inzu iciriritse ariko icururizwamo imiti ibizwi nka farumasi, imbere y'iyi nzu hari abantu abamotari ndetse na moto zabo ndetse n'umuntu uhagaze ku muryango ugaragara nk'uje kugura imiti.

Inzu icururizwamo imiti ibizwi nka farumasi. Muri iyi nyubako abantu bazamo, bakagura imiti yerekeye uburwayi bwabo. Harimo imiti y'ubwoko butandukanye ndetse n'imashini yifashishwa mu kumenya amakuru y'umurwayi ndetse n'ibindi byerekeye uburwayi.

Mu kigo nderabuzima aharyamye abarwayi batandukanye muri iki kigo nderabuzima harimo ibitanda by'abarwayi; n'abarwayi babiryamyeho, hari ibikoresho byifashishwa mu kureba ubuzima bw'abarwayi ndetse n'ibyo bamanikaho serumu bateye umurwayi.

Inzu icururizwamo imiti izwi nka farumasi muri iyi nzu niho abantu bazana amafaranga ndetse n'inyandiko za muganga bagahabwa imiti runaka yabavura uburwayi baba bafite n'umuntu ushaka kugura umuti ku giti cye araza akawugura.

Abaganga babiri bari mu kazi kabo umuganga umwe wambaye itaburiya y'umweru ufite n'ibikoresho byo kwa muganga ari kuganiriza umurwayi wamugannye imbere y'aba baganga hari ibikoresho bitandukanye harimo za mudasobwa zifashishwa mu gusoma amakuru y'abarwayi ndetse n'ay'uburwayi bafite

Kwa muganga umurwayi ari kwitabwaho aterwa imiti ndetse anapimwa uko ubuzima bwe buhagaze by'umwihariko umuvuduko w'amaraso, akikijwe n'abaganga batatu ndetse n'umurwaza.

Inyubako y'igorofa nini cyane bigaragara ko ari inyubako y'ibitaro iyi nyubako isize amarangi atandukanye aho amwe ari umweru andi akaba ubururu bwijimye andi akaba ari igitaka kuri iyi nyubako hari amapave ndetse n'ubusitani bwiza.

Ikigonderabuzima, kuri iki kigonderabuzima hateye indabyo, izi ndabyo ziconze mu buryo bwiza bigaragara ko abantu benshi bazirangarira, hejuru y'iki kigonderabuzima hari igikoresho gikoreshwa mu gufata imirasire y'izuba ikabyazwamo amashanyarazi.

Mu kigo nderabuzima umuganga wambaye taburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umukara w'umukobwa, ari gukoresha mudasobwa zabugenewe mu gupima ibizamini ndetse n'andi makuru yerekeye umurwayi.

Inyubako nini cyane ifite igisenge giteye mu buryo bugari kandi igeretse. Inyubako iriho ama esikariye aho abantu bava hejuru bajya hasi cyangwa bava hasi bajya hejuru, imbere y'inyubako haparitse imodoka ndetse hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, haparitse na moto.

Ikigo nderabuzima, kuri iki kigo nderabuzima abarwayi batandukanye baza kuhivuriza; nuko bagafatwa ibimenyetso bigasuzumwa bakabwirwa indwara barwaye; imbere y'iki kigo nderabuzima hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Urwinjiriro rujya ku kigo nderabuzima, biragaragara ko aha abantu binjirira bajya muri iki kigo nderabuzima, hari umusekirite ushinzwe umutekano w'iki kigo nderabuzima, ku ruhande hari ibyapa bigaragaza amabwiriza agenga ikigo nderabuzima ndetse n'abantu bari kuhatemberera.

Inyubako nini isize irangi ry'umuhondo ndetse n'andi marangi makeya y'umweru. Iyi nyubako yifashishwa nk'ibitaro byita ku bantu bafite ikibazo ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe.

Mu kigo nderabuzima mo imbere, ahari igitanda cyabugenewe, ndetse mu cyumba cyihariye, mu kwita ku barwayi by'umwihariko abarwayi bagiye kubagwa, muri iki cyumba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byabugenewe muri iki gikorwa.

Mu kigo nderabuzima mo imbere mu cyumba cyihariye cy'abarwayi. Muri iki cyumba harimo intebe izenguruka, harimo agatanda k'abarwayi katimurwa, harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gupima, ndetse no gukurikirana ubuzima bw'umurwayi.

Icyumba kibikwamo imiti ibimenyerewe nka farumasi, muri iki cyumba harimo imiti itandukanye yaba iyo kunywa, yaba iyo kwisiga, yaba ndetse n'iyo kwitera mu nshinge.

Inyubako nini cyane kandi isize amarangi y'umweru, iyi nyubako ifite igisenge cyiza ndetse n'Imiryango myinshi iyi nyubako ni ibitaro by'akarere.

Mu kigo nderabuzima ahari ibikoresho bitandukanye kandi bidasanzwe mu buzima rusange bw'abantu ibi bikoresho byifashishwa kwa muganga mu kureba uko ubuzima bw'abarwayi buhagaze, hari za mudasobwa z'ubwoko bwinshi nazo zikoreshwa mu gusoma amakuru yerekeye uburwayi.

Ikigo nderabuzima gishinzwe kwita ku bagore batwite ibizwi nka materinite a aha niho abagore batwite baza bakitabwaho kuri iki kigo nderabuzima hanze hari intebe zo kwicaraho zikoze m'imbaho.

Inyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, muri iyi nyubako harimo ibikoresho bitandukanye ibizwi nk'ibikoresho byo muri gimu, muri ibyo bikoresho harimo ibyo abantu birukankiraho, ibyo bicaraho bagatwara nk'amagare ndetse n'ibindi byo guterura bitandukanye.

Abakobwa bagera kuri batandatu ni abakobwa bigaragara ko ari abaganga bambaye imyenda igaragaza akazi bakora imyenda ijya gusa n'ubururu bambaye udupfukamunwa inyuma yabo hari igikuta kigaragaza ibitaro bakorera.

Umuganga uri kuganiriza abantu batandukanye, uyu muganga yambaye itabuririya y'umweru kandi afite igikoresho cyifashishwa mu gupima uko umutima w'umuntu utera, afite n'igikoresho cyo mu ntoki kimeze nk'ikayi ushobora gusomamo amakuru yerekeye ibyo uri kuvugaho, inyuma ye hari abantu batandukanye ari kuganiriza harimo abato n'abakuru.

Uyu ni umuganga w'umugabo, ahantu yicaye inyuma ye hari agatanda k'abarwayi kari mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga, uyu muganga yambaye itabuririya y'umweru.

Inyubako nini cyane rwose kandi nziza. Iyi nyubako iriho ibirahure byinshi iparitseho amamodoka menshi, hari n'abantu bari kuyigana hari n'ibendera ry'igihugu cyu'u Rwanda. Iyi nyubako itangirwamo serivisi za leta.

Inzira iri ahantu heza ndetse n'aho igana harasa neza ni mu busitani bwiza harimo ubwatsi butoshye harimo kandi n'ibiti bitandukanye bigaragara ko abantu benshi bahashaka serivisi zitandukanye.

Mu kigonderabuzima hari ibikoresho bitandukanye bishobora kwifashishwa mu gupima ubuzima bw'umurwayi cyangwa no kureba andi makuru yihariye, za mudasobwa zitandukanye ndetse na televiziyo imanitse hejuru, intebe y'umuganga ndetse n'i ntebe y'umurwayi byose birahari.

Umubyeyi ateruye umwana, yamuzanye kwa muganga kumwitaho cyane cyane kumukingiza, uyu mubyeyi imbere ye hari umuganga uri kwita ku mwana, uyu muganga yambaye itaburiya n'agapfukamunwa ndetse n'akarinda umutwe ndetse na marinete.

Umuganga w'umubyeyi uri kwita k'uwundi mubyeyi urwaye, ari gupima uko umutima we utera ndetse n'izindi ngingo ze uko zifashe, inyuma yabo hari undi mubyeyi nawe uryamye ku gatanda ko kwa muganga nawe w'umurwayi.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, muri iki cyumba kizwi nka jimu hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri iyi myitozo, ibikoze nk'amagare, ibyo guterura ndetse n'ibindi bitandukanye byose bihuriza mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Inzu irimo ubusa bigaragara ko isanzwe ikoreshwa n'abantu bari mu myitozo ngororamubiri, harimo nko kwinanura ndetse nindi myitozo igufasha kurambura ibice by'umubiri, muri iyi nyubako harimo intebe bigaragara ko abantu bicaraho baruhuka.

Umuntu uri kwinanura, afite imisatsi igaragara nk'aho ari iy'abakobway'umukara ni ngombwa gukorasiporo cyane cyane zo kwinanura kugirango umubiri wacu ubashe kurambuka.

Abakinnyi bari gukina mu kibuga bambaye imyenda itandukanye bigaragaza ko ari amakipe abiri ahanganye, bamwe babiri bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'umutuku n'ingofero zibakingira mu mutwe undi bari gukina yambaye umupira w'umweru ndetse n'ibindi by'umuhondo.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri. Ari kurambura ingingo ze zirimo amavi, zirimo amaboko ndetse n'umugongo. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kugirango ngo ubuzima bwacu bugume ku murongo.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, imbere ye hateretse imashini ku ruhande hari ibindi bikoresho bifasha mu myitozo ngororamubiri ndetse n'amazi yo kunywa uyu muntu biragaragara ko ari umukobwa.

Ikirenge cy'umuntu bigaragara ko ari ku gikanda, iki kirenge kiri mu ntebe intebe isa umweru, uyu muntu yambaye ipantaro y'umukara.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, uyu muntu biragaragara ko ari umugabo, ahagaze ku gatapi gatoya, asa na none nk'uwamanuye amaguru nk'usutamye, ari kugorora mu mavi ye ndetse no mu matako he.

Umuntu ushagawe n'abantu batandukanye harimo n'abaganga afite ikibazo mu kaguru ke bari kugerageza kumwitaho no kumuvura bamushyizeho bimwe mu bikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura amagufa ndetse no kuyananura.

Umuntu wagize ikibazo cy'akaguru ari kwa muganga umuganga ari kugerageza kumwitaho amuzirikiraho ibikoresho bizwi mu kuvura umuntu wavunitse inyuma ye hari igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'umuntu buhagaze uyu mugabo ari ku gatanda k'abarwayi.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri arimo arananura amavi, umugongo ndetse n'amaboko ye ubu buryo ni bwiza cyane kuko butuma ingingo nyinshi zirambuka nuko zikongera zigakora neza.

Umugabo urangije imyitozo ngorora mubiri ari kwisukaho amazi kugirango abashe kugabanya ubushyuhe bw'umubiri, yambaye isengeri y'icyatsi ndetse n'akabano ku kaboko.

Umusore uri kunkwa amazi, uyu musore yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru ndetse afite agacupa karimo amazi niko ari kwifashisha ankwa aya mazi.

Icyumba cyo mu bitaro muri iki cyumba harimo ibikoresho bitandukanye byose byifashishwa mu kuvura abarwayi, muri ibyo bikoresho harimo agatanda ko kwa muganga harimo imashini yaba, izitanga umwuka ndetse n'izireba uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Ibikoresho birimo ibipima uburwayi ndetse n'uko umutima uhagaze, ibikoresho byifashishwa mu gukina ndetse no mu myitozo ngororamubiri harimo imipira harimo ibyifashishwa mu gutera amakofi n'ibindi bitandukanye.

Imiti y'ibinini umuntu ashobora kunywa afite ikibazo, hari ikaramu ntoya ishobora kwifashishwa mu kwandika hejuru ubu handitse amagambo avuga ngo sipoti faromasi, ni byiza ko dufata imiti mu gihe dufite ikibazo.

Umurwayi urwaye mu ivi umuganga ari kugerageza kwita ku ivi rye arikanda, ivi ni igice cy'umubiri abantu bakunda kurwara kandi bakwiye kwitaho cyane, kuko ni cyo kidufasha mu kugenda kugira ngo umuntu abashe gutera intambwe.

Umuganga wambaye tabuririya y'umweru, ari kwita ku kaguru k'umurwayi, by'umwihariko mu ivi. Ari kumunanura ivi rye, kugira ngo ryongere rigire ubuzima bwiza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ni imyitozo yo kwinanura ariko biragaragara ko uyu ari umukobwa ni byiza ko buri muntu akora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Ibiribwa bitandukanye birimo imbuto ndetse n'imboga, umuntu ashobora gufata kugira ngo agire ubuzima bwiza, ibindi bikoresho bishobora kwifashishwa kugira ngo umuntu akore imyitozo ngororamubiri n'uko agire ubuzima bwiza.

Abasore bari kwiruka bigaragara ko batari kwirukanswa n'ikindi ahubwo bari mu myitozo ngororamubiri, ni abasore bane bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto zabugenewe mu gukora iyi myitozo ngororamubiri.

Umugabo uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri, uyu mugabo ari kwicara agahaguruka, mu buryo bwo kurambura ndetse no kunanura amavi ye, n'ibindi bice by'umubiri hari umuntu uri kumukoresha iyi myitozo, aba bombi bari mu nzu yabugenewe izwi nka jimu.

Imiti ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri igihe bagize ikibazo, muri iyo miti harimo iyo bisiga kugirango bivure, harimo kandi n'ibindi bikoresho bifashisha mu gihe haba hari nk'uwavunitse akabyizirikaho kugira ngo akire, hari n'indi miti bashobora gukoresha banywa nayo ikabakiza.

Akaboko kakomeretse karimo kwitabwaho ni byiza kwita ku ngingo zacu igihe zagize ikibazo cyangwa se igihe zitameze neza kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'ingingo nzima.

Agatanda gato k'abarwayi kifashishwa n'abaganga cyangwa abandi bantu igihe ari umuntu ugize ikibazo kitamwemerera kugenda n'uko bakamurambikaho bakagenda bamuteruye ubwabo mu gihe atakibashije kwitwara.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ufite umubiri uteye neza bigaragaza uburyo yakoze imyitozo ngororamubiri cyane. Ni byiza kubaka umubiri mu buryo bukomeye kugira ngo twirinde indwara.

Ikimenyetso cy'umusaraba utukura ni ikimenyetso gisobanura croix rouge ni umuryango ushinzwe gutabara imbabare ,iki kimenyetso kiragaragaza ko uyu muryango uri gukorera mu rwanda.

Umugabo ufite ubwanwa bukeya, uri kunywa amazi ari mu icupa ritari rinini, ni byiza kunywa amazi kuko adufasha mu kugogora ibyo twariye ndetse no gutunga umubiri mu buryo butandukanye.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ahazwi nka gimu, muri nyubako harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri iyi myitozo harimo icyo abantu birukankiraho, harimo icy'abantu bakoresha nk'igare mu rwego rwo gukora iyi myitozo.

Intebe y'umurwayi umurwayi yicayemo, bari kumurambura akaguru kiwe, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kumwitaho, nyuma yabo hari akabati karimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Icupa ririmo amazi meza ari gusuka mu kirahure nacyo gisa neza cy'umweru, aya mazi ni meza, ni byiza ko tunywa amazi meza kugira ngo tugire umubiri mwiza.

Umuntu wavunitse amaguru, ari guhabwa ubutabazi n'umuryango ushinzwe kwita ku mbabare kuruwaruje. Uyu muntu yababaye bikomeye. Inyuma yabo hari abandi bantu benshi batandukanye, bari kureba uko icyo gikorwa kigenda.

Nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, yimenaho amazi kugira ngo umubiri we ugabanukemo ubushyuhe, abashe kongera gukomeza indi mirimo isanzwe, nta bushyuhe afite mu mubiri bukabije, ni byiza kugereranya ndetse no kwita ku bushyuhe dufite mu mubiri.

Umuntu bigaragara ko ari umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri; ari kunanura amagufa ndetse n'umubiri we afata umutwe akawukoza ku mavi ye; mu buryo abantu benshi batashobora.

Abagabo babiri bari muri siporo zigorora umubiri ,murizi siporo bari kwiga imwe mu mikino ibizwi nka rugby ,,aba bagabo babiri biragaragara ko inyuma yabo ari muri gym aho hari ibikoresho bya siporo bitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu nzu yabugenewe, yo gukoreramo imyitozo ngororamubiri, hari ibyo baterura kugira ngo babyimbe amaboko, n'ibyo baterura kugira ngo imitsi ndetse n'inyama birambuke, ibi ibikoresho byose bigira umumaro, kuko bitugorora umubiri bikanadufasha kuwubaka.

Umuganga uri kwita ku mwana ufite uburwayi bwo mu kanwa aho ari kureba ikibazo amenyo ye yaba afite, inyuma yabo hari abandi babyeyi baherekeje uyu mwana, aba babyeyi bambaye udupfukamunwa ndetse n'umuganga arakambaye.

Inkoni yo kugenderaho yifashishwa nk'imbago, ifite amapine ane yifashishwa mu kuyigendesha ikagira aho umuntu afata kugira ngo abashe kuyigenderaho.

Igikoresho kifashishwa mu kurambura amaguru y'umuntu cyangwa se mu kwivura igihe umuntu yaba yavunitse. Acyambika akaguru gafite ikibazo, nuko kikagafasha kurambuka ndetse no gukira ibibazo kaba gafite.

Abubatsi batandukanye bari kubaka kuri iyi nzu mu buryo runaka bari guhererekanya ibikoresho, aho bamwe bari hejuru abandi bakaba bari hasi, bari kubaha bimwe mu bikoresho bakenera mu bwubatsi.

Nyuma yo gukora imirimo rusange ndetse n'imyitozo ngororamubiri, dukwiye kunywa amazi meza kugira ngo tugire ubuzima bwiza, amazi meza dukwiye kuyacunga ndetse no kuyitaho kuko tunyweye amazi mabi byadutera uburwayi.

Umuntu uri kunywa amazi ariko uri mu myitozo ngororamubiri. Ni byiza iyo turangije imyitozo ngororamubiri tugomba kunywa amazi kuko umubiri uba wakoresheje amazi menshi bityo ukanatakaza amazi menshi.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri anywa amazi, afite icupa ririmo amazi ari kunywa kandi yiteye agakoresho ko kwihanagura igihe yaba yagize ibyuya.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, igamije kubyimbisha ndetse no gukomeza umubiri, uyu muntu ari guterura ibintu biremereye, hari undi umuhagaze hejuru uri kumwerekera uko bikorwa, bari mu nzu yabugenewe izwi nka gimu.

Igitanda bigaragara ko gikoreshwa kwa muganga n'igitanda giteye imbere ndetse n'ahantu kiri n'ahantu hateye imbere biragaragara ko ibi ari ibitaro byateye imbere ni byiza ko tugira ibitaro biteye imbere kugira ngo tubashe kuvura abantu neza.

Umugabo ukora imyitozo ngororamubiri ufite akaboko kanini cyane, ari kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri ashaka kugabanya ubushyuhe buri mu mubiri ndetse no kwita ku mubiri we.

Akadege gatoya kazwi nka drone gatwaye amaraso, ubu ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu Rwanda mu kugemura amaraso ku bitaro bitandukanye, aho izi ndege ntoya zitagira abaderevu zitwara udukarito tw'amaraso zikatugemura ku bitaro.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, uyu mugabo yubatse umubiri mu buryo budasanzwe, kubera gukora imyitozo ngororamubiri myinshi kandi itandukanye, ishobora gutuma umubiri we utera neza kandi ufite imbaraga.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, hari abantu batandukanye bari gukora imyitozo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, muri iyi nyubako harimo ibikoresho bitandukanye bishobora kwifashishwa nabyo muri iyi myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, cyane cyane mu mikino, ibi bikoresho hari ibyifashishwa nk'umupira w'amaguru, ingofero nazo zifashishwa mu gukina, ndetse n'indi mipira yabugenewe.

Udupfunyika tugera muri dutanu turimo ibintu bitandukanye, ni udupfunyika bigaragara ko dufungwamo imiti ivura indwara zitandukanye ishyiriwe abantu batandukanye.

Imbuto zitandukanye zirimo pome, avoka ndetse n'izindi, ndetse n'imboga z'ubwoko bwinshi, hari icupa ry'amazi, hari n'igikoresho cyifashishwa muri jimu, kugira ngo umuntu akore imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri kwinanura, uyu mukobwa ahagaze imbere y'amazi magari asa nk'inyanja cyangwa ikiyaga, uyu mukobwa yarambuye amaboko ayerekeza hejuru mu rwego rwo kwinanura.

Ibiganza byambaye ibirindantoki, ibizwi nka ga. Ibi biririndantoki umuntu ashobora kubyambara mu gihe agiye mu myitozo ngororamubiri cyangwa se gukora ibindi bikorwa cyangwa imirimo ivunanye ishobora gukomeretsa intoki.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri agorora zimwe mu ngingo z'umubiri we kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko dukora iyi myitozo kugira ngo twirinde indwara zishobora guterwa no kutagira ubuzima bwiza.

Imiti myinshi itandukanye iri ku dusahane dutandukanye buri muti uko wihariye uri mu gasani kawo hari n'indi iri mu kiganza cy'umuntu, iyi miti ifite ubushobozi bwo kuvura indwara nk'uko n'imiti yo kwa muganga yavura.

Ibimera bifite amabara y'icyatsi kibisi, ibi bimera bishobora kwifashishwa nk'imiti gakondo, ishobora kuvura umuntu indwara zitandukanye, zishobora kwibasira ubuzima bwe, ni byiza kwita ku miti gakondo kuko na yo ivura nk'indi miti isanzwe.

Imiti itandukanye ariko ihuriye ku kuba yose ari imiti gakondo, iyi miti iri hamwe kandi imwe iri mu ducupa indi ibitse mu buryo bw'udukarito.

Imiti gakondo itandukanye iyi miti biragaragara ko ivura indwara zitandukanye imbere yayo hari agasekuru gatoya karimo umuhini kifashishwa mu gusekura no gusya iyi miti no kuyivanga.

Akajerikani karinganiye utavuga ko ari gato cyangwa kanini, akajerekane karimo umuti ushobora kuvura umuntu, akajerekani karasa umuhondo kandi gapfundikijwe umupfundikizo uri mu ibara ry'umutuku.

Imiti itandukanye iri mu macupa nayo yihariye bitewe na buri mumaro w'umuti, iyi miti n'imiti gakondo. Ni byiza kwifashisha imiti igihe dufite ikibazo mu mubiri.

Umuvuzi wa gakondo, ucuruza imiti itandukanye na yo ya gakondo iri mu byiciro bitandukanye, uyu muvuzi yambaye ingofero ndetse n'ishati ijya gusa n'umutuku.

Imiti itandukanye gakondo, iyi miti ivura indwara zihariye kandi ikagira uruhare mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari ibyo dusanzwe tubona byoroheje, dushobora no kwifashisha aho twaba turi bitatugoye.

Ibimera bitandukanye bishobora kwifashishwa mu miti gakondo, ibi ibimera tugomba kubirengera kugira ngo tujye tubyifashisha igihe natwe tubikeneye nabyo birengere amagara yacu.

Ikibabi k'icyatsi kibisi kiri ku giti runaka, iki kibabi kiragaragaza ibidukikije ndetse n'uko kwita ku bidukikije ari ingenzi mu buzima bwa muntu.

Umuntu wicaye birasa nkaho ari umuganga uri mubushakashatsi butandukanye, bwerekeye ibijyanye n'mivurire inyuma ye hakabati ndetse n'intebe z'umukara.

Ibibabi byibimera bisa icyatsi kibisi, ibibabi bishobora kwifashishwa nk'imiti gakondo cyangwa se n'ubwatsi bw'amatungo nib kurengera ibimera kuko tubikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibibabi bitoshye by'ibyatsi bishobora kwifashishwa nk'imiti gakondo. Kuri ibi ibabi abantu bashobora kubisekura nuko bakanywa amazi yabyo barwaye bagakira. Ni byiza kwita ku bimera.

Ibimera byihariye amababi yabyo atameze nk'ay'ibindi bishobora kwifashishwa nk'umuti cyane cyane ibizwi nk'igikakarubamba. Nibyiza kwita ku bimera kuko bidufitiye umumaro ugaragarira amaso ya buri muntu.

Amacupa agera kuri ane, ari mu mabara atandukanye. Aya macupa abikwamo imiti itandukanye, ya gakondo. Abu iri cupa riba ripfundikiye neza, ririmo umuti wihariye.

Imiti gakondo iri mu rwego rwa nyunganiramirire, yifashishwa n'abantu bafite ibibazo by'ubuzima bitandukanye, nuko bakayikoresha mu biryo barya, cyangwa se no mu byo bankwa, ikabarinda ndetse ikanabavura zimwe mu ndwara zababase.

Ibibabi by'icyatsi kitwa umuravumba, iki cyatsi kifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye, bikabarwa hamwe n'imiti gakondo kuko bidakorerwa kwa muganga.

Imiti yo mu bwoko bw'amavuta ishobora kwifashishwa n'umuntu ufite ikibazo cy'uruhu nuko kikabasha kuvaho. Bimwe mu bibazo bivurwa n'aya mavuta harimo ibiheri ndetse n'ibishishi bishobora gutera uruhu rw'umuntu.

Ibyatsi by'amoko menshi biri hamwe, bishobora kwifashishwa nk'imiti gakondo. Ibi byatsi byavura umuntu ufite uburwayi bwihariye, ndetse ni na ngombwa ko tubyitaho, kugira ngo tubashe kubikoresha, igihe tubikeneye.

Ibyatsi bishobora gukoreshwa mu buvuzi gakondo, ibi byatsi abazi uko bikora, bashobora kubiha umuntu urwaye indwara runaka nuko agakira, ni ibyatsi bifite ishusho y'icyatsi kibisi.

Ikimera kirandaranda hasi iki kimera gifite indabyo zisa umutuku ndetse n'umuhondo n'umweru, kandi gifite amababi y'icyatsi kibisi cyijimye. Izi ndabyo zishobora kwifashishwa nk'imiti gakondhttps://kinyarwanda-2025.web.app/assets/play-button-321e4809.pngo cyangwa amababi y'iki kimera.

Imiti gakondo, iyi miti iri mu buryo butandukanye, hari iri mu tujerekani dutatu dupfundikiye neza, utu tujerekani turi mu mabara atandukanye, hari n'indi ikoze mu buryo wagira ngo ni igikakarubamba.

Akajerekani gatoya bigaragara ko kabikwamo umuti. Ni akajerekani bigaragara ko gasa umweru, gafite umupfundizo w'ubururu. Kajyamo umuti wa gakondo, kakagurwa n'umuntu ushaka kwivuza uburwayi runaka.

Amacupa atatu arimo imiti ari mu byerekezo bitandukanye. Aya macupa ari mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo. Ahantu ateretse ni ku kameza kari mu ibara rijya gusa umuhondo ariko wijimye.

Umusaza uri gusuroma ibyatsi bitandukanye bishobora kwifashishwa nk'imiti gakondo. Amashyamba ndetse n'ibimera bitugirira umumaro kuko twabyifashisha mu kwivura, ndetse no mu bikorwa bitandukanye byo mu buzima bwa buri munsi.

Ibimera bitandukanye biri mu ishyamba muri ibi bimera hari ibifite indabyo z'umweru rero ibidafite indabyo ibimera bihuriza ku mumaro wabyo wo kuba byavamo imiti twikoresha mu buzima rusange ibi ibimera kandi bishobora kuvamo ubwatsi bw'amatungo.

Imiti gakondo yihariye mu kuvura indwara zitandukanye ariko ifatwa nk'inyunganiramirire, iyi miti yifashishwa mu kuyivanga n'ibiryo cyangwa se n'ibinyobwa maze bikadukiza indwara twaba dufite zihariye.

Umuti gakondo uyu muti ukoreshwa n'abantu batandukanye bafite indwara runaka bashaka gukira aho bagura uyu muti nuko bakawukoresha nawo ukabakiza.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, ibi bimera abantu benshi babikoresha kugirango bivure kandi bisaba kubitunganya, kugirango utangire ubikoreshe nk'umuti.

Imiti gakondo itandukanye. Iyi miti hari ifungiye mu ducupa, hari ifungiye mu dukarito, iyi miti ishobora kwifashishwa mu buryo butandukanye yaba kuyinywa, kuyisiga cyangwa se kuyitera mu bundi buryo.

Ikimera kirandaranda hasi, gifite indabyo zijya gu gusa umutuku, ndetse n'amababi y'icyatsi cyijimye. Iki kimera gishobora kwifashishwa mu buvuzi, ndetse no kubona imiti gakondo.

Imiti gakondo itandukanye iri mu byiciro by'ingenzi harimo ibinini, harimo ibyatsi, hari imiti iri mu buryo bw'amazi cyangwa se ibisukika iyi miti yose igira umumaro mu kuvura abantu.

Ibyatsi birandaranda hasi, bishobora kwifashishwa nk'imiti gakondo cyangwa se n'ubwatsi bw'amatungo. Ibi byatsi dukwiye kubyitaho kubera ko ari byo biduha umwuka duhumeka ariko tukaba twanabyifashisha nk'imiti igihe turwaye.

Imiti gakondo y'ibyatsi hejuru hari agasekuru gatoya karimo umuhini bigaragara ko gakoreshwa mu gusekura iyi miti ndetse no kuyivanga, imiti gakondo ni myiza mu kuvura ariko biba byiza iyo yitaweho mu kugenzurwa kugira ngo itangize ubuzima bw'abayikoresha.

Amavuta meza yita ku ruhu aya mavuta umuntu ashobora kuyisiga akagira uruhu rwiza rwaba rufite ikibazo rugakira, amavuta ari mu gacupa gasa ubururu bwijimye handitseho ngo sikini oyiri.

Umuntu uri gusoroma imiti gakondo, iyi miti gakondo ni ibibabi by'ibyatsi bitoshye bifite ibara ry'icyatsi, ari kubisoroma kugirango abikumo imiti ishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuravumba ni kimwe mu byatsi byamenyekanye cyane, kubera ubushobozi ugira mu kuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zo mu nda, indwara zibasira abana ndetse n'abantu bakuru. Ni byiza kurinda ibyatsi nk'ibi ngibi bikoreshwa mu buvuzi.

Imiti gakondo itandukanye ibitswe mu buryohe nabwo butandukanye hari imiti iri mu ducupa dutoya, hari imiti iri mu macupa manini, hari n'iri mu dukarito. Imwe muri iyi miti hari iyo bisiga, hari iyo banywa, hari iyo bakoresha mu buryo butandukanye.

Imiti gakondo ibitswe mu buryo butandukanye, hari imiti ibitswe mu buryo bw'amacupa matoya, hari n'indi ibitse mu buryo bw'agakarito gatoya. Hari indi miti iri mu tujerekani tubiri.

Imiti gakondo ariko yamaze kubyazwamo ibinini, iyi mitiyambitse ku kibabi nacyo cy'umu miti; gakondo si ngombwa buri gihembwe ngo ibe ari ibibabi cyangwa ibyatsi kuko hari n'itunganywamo ibinini dusanzwe dukoresha.

Amacupa menshi agerekeranye, ari mu kabati. Muri aya macupa hagiye harimo imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye. Iyi miti yose ihurira kuba ari imiti gakondo.

Umuganga uri kubika imiti mu buryo bwabugenewe, mu bikarito byagenewe kubikwamo iyi miti, kugira ngo igere ku bantu ikwiye gushyikirizwa, uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa.

Icupa rito ry'umweru ariko ririho akapa gatoya, kanditseho ngo foreva bipolini muri iri cupa haba harimo imiti itandukanye, ishobora kuvura umuntu ibibazo, ashobora kugira by'umubiri.

Ibibabi by'igiti runaka bitoshye, birasa icyatsi. Ni ngombwa ko twita kubi bidukikije cyane cyane nkibimera kugira ngo tugire ubuzima bwiza, kuko ibidukikije niho dukura umwuka duhumeka.

Umuti gakondo ariko uri mu icupa. Uyu muti ushobora kwifashishwa mu gukiza indwara z'uruhu, aho umuntu ashobora kuwisiga n'uko agakira indwara z'uruhu zitandukanye zirimo ibiheri ndetse n'ibishishi.

Imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye, yaba indwara z'uruhu ndetse n'izindi, hari iri mu ducupa, iri mu tujerekani, hari iyo bisiga, hari ndetse n'indi itandukanye.

Iri mu gikarito ariko izwi nka nyunganiramirire. Iyi miti mu rurimi rw'icyongereza bayita fudu sapurimenti, imiti icuruzwa n'ikigo aliyanse golobo. Ni byiza gufata imiti nyunganiramirire kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ibitunguru bikase ndetse n'indimu ndetse n'amavuta ya elayo, ibi byose ni imiti gakondo ishobora kwifashishwa n'abantu igihe bafite indwara kugira ngo izo ndwara zikire.

Icupa ripfundikiye neza rifite ibara ry'umweru, ririho ibimenyetso bigaragaza ko ari umuti gakondo, uyu muti uvura indwara zigiye zitandukanye bitewe n'uko umurwayi yiyumva.

Imiti gakondo itandukanye kandi ifite n'amabara atandukanye. Iyi miti ikomoka ku byatsi ndetse n'ibimera, kandi ifite ubushobozi bwo kuvura indwara mu buryo bwiza, mu buryo kandi budasubirwaho. Iyi miti irihariye kuko iboneka henshi kandi ku giciro gitoya.

Ibibabi by'icyatsi kibisi byifashishwa nk'imiti gakondo. umuntu ari kubisoroma kugira ngo ajye kubyifashisha mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye.

Imiti yo mu bwoko bw'ibinini. Iri ku gakoresho kabugenewe gakoze mu giti. Ni byiza gufata imiti ku gihe kuko biturinda kuzahazwa n'indwara zaje z'iyi minsi.

Imiti gakondo ifatwa nk'umupfumu itandukanye. Iyi miti hari ikoresha imbaraga zidasanzwe, hari isanzwe inyobwa ndetse iribwa cyangwa se basiga umuntu. Iyi miti yose ihuriza mu kuvura abantu.

Ibimera bitandukanye biri mu isekuru, ibi bimera ni umuti gakondo. Yifashishwa n'abantu barwaye indwara zitandukanye, nuko bakabinywa babanje kubisekura, kugira ngo bibakize.

Amacupa y'imiti ateretse mu buryo butandukanye aho rimwe riteretse hasi ihinduye igatekwa ahagana hejuru yaryo, n'irindi rigaterekwa ahagana hejuru yaryo. Aya macupa arimo imiti ishobora kuvura indwara zitandukanye.

Ibibabi bitoshye bigaragaza uko umuntu akwiye kwita ku bidukikije kandi ibi bibabi bishobora kwifashishwa nk'imiti gakondo, ni byiza ko twita ku bidukikije kugira ngo bidufashe mu buzima rusange.

Ibimera bitandukanye ndetse n'ibiribwa biva ku bimera byose bigira umumaro mu buzima bwacu, ni byiza rero kubiha agaciro kandi tugakenera kubikoresha kenshi, kuko ari byo bidutungira ubuzima.

Umuravumba ni kimwe mu byatsi byamenyerewe cyane nk'umuti gakondo, umuravumba ukora neza kandi ukavura indwara zitandukanye, icy'ingenzi ni ukuwitaho ndetse no kuwusigasira mu rwego rwo kurinda ibidukikije.

Imiti gakondo itandukanye ifunze mu bikoresho bitandukanye bitewe n'icyo uwo muti uvura hari iri mu ducupa igaragara nk'amazi hari iri mu ducupa igaragara nk'amavuta hari n'indi igaragara nk'ibinini.

Ibimera harimo ibirebire n'ibigufi ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo, ibimera akenshi abantu babyifashisha mu kwivura ndetse no kubikoresha mu nk'ubwatsi bw'amatungo.

Imiti gakondo ariko ishobora kwifashishwa mu kwita ku ruhu rw'umuntu, iyi miti umuntu ashobora kuyisiga hari ikora nk'amavuta, hari ikora nk'imibavu yo guhumuza umuntu wayiteye.

Icupa ritoya risa umweru, muri iri cupa ripfundikiye neza, habikwamo imiti gakondo. Imiti gakondo ni imiti mu yindi ishobora kuvura umuntu ufite ikibazo cyihariye, cy'uburwayi runaka.

Imiti gakondo itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu, imiti ikoze mu bimera cyane cyane igikakarubamba, ni byiza kwita ku ruhu rwacu kugira ngo twirinde indwara zitera uruhu.

Ibibabi by'ibyatsi bitoshye cyane, ibibabi biregeranye, bigaragara ko byitaweho neza. Ni byiza kwita ku bidukikije bikagaragara neza kugira ngo natwe biturindire ubuzima. Ibibabi bishobora kwifashishwa nk'imiti kandi gakondo, ishobora kuvura indwara zitandukanye.